Polisi y'u Rwanda yakoranye inama n'abayobozi ndetse n'abaturage muri rusange, biga ku kibazo cy'umutekano, yakanguriye abaturage, ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we, mu rwego rwo gukaza umutekano.

Umuyobozi mukuru mu rwego rw'ubuzima yateguye inama n'abandi bayobozi batandukanye, higwa ku burenganzira bw'umurwayi ndetse na serivise nziza umuganga aba agomba gutanga.

Inama yahuje abayobozi batandukanye harimo abari n'abategarugori yigaga ku mutekano ndetse no ku buzima bw'umuturage. Hatangijwe gahunda yo guhugura umuturage mu byerekeranye n'ubuzima ndetse n'umutekano.

Inama y'abayobozi bagize komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare, ni imwe mu yigaga kuri serivise ndetse na gahunda y'umuturage ku isonga.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye, ni bamwe mu bahuriye mu nama yiga ku mibereho myiza y'abaturage ndetse bakangurira abaturage kwicungira umutekano, aho binaniranye bagahampagara Leta mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Abayobozi batandukanye bahuriye mu nama yiga ku iterambere ry'Igihugu ndetse n'uburyo bashobora guteza imbere uburezi bufite ireme.

Abayobozi batandukanye bo mu karere ka Nyagatare baganiriye kuri gahunda y'umuturage ku isonga batanga n'umwanya abaturage batanga ibitekerezo banenga bamwe mu bayobozi ndetse abandi barashimwa.

Imbyino gakondo ziri mu biranga umuco nyarwanda, aho abari n'abategarugori baba biteze utuntu tw'umweru, bambaye imyitero ubundi bakabyina kakahava.

Mu muco nyarwanda inkangara cyari kimwe mu bikoresho byifashishwaga mu bukwe, aho hatwarwagamo ibitoki, amasaka cyangwa se ikigage kiri mu kavido n'ibindi.

Mu myambaro y'umukara n'umweru inkoni z'umukara n'umweru, inigi mu ijosi ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru, ni bimwe mu byarangaga abagabo babyinaga imbyino gakondo mu muco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda ibicuba ndetse n'ibisabo ni bimwe mu byashyirwagamo amata mbere y'uko bayacunda, ibi ngibi kugeza na n'ubu hari aho bikigaragara.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abandi baturage baje kwirebera imbyino za Kinyarwanda, ari kimwe mu biranga umuco Nyarwanda.

Agaseke ni kamwe mu biranga umuco nyarwanda kuko katwarwagamo intwererano nk'amasaka, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu muco nyarwanda abari ndetse n'abategarugori abagabo, abasore ndetse n'abana barabyinaga, bakizihirwa abagore babaga biteze utuntu tw'umweru abagabo bambaye imyitero ndetse n'amayumba.

Mu muco nyarwanda inka z'Inyambo zifatwa nk'ikitegererezo kuko zikurura ba mukerarugendo bakaza kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda.

Imbyino gakondo ni kimwe mu byarangaga umuco nyarwanda n'ubwo kugeza na n'ubu hari aho zikiri. Leta y'u Rwanda irakangurira abaturage bose bo mu Rwanda ko bagomba gusigasira umuco ndetse bakawukuza.

Kera mu muco nyarwanda ibyuma bisya amasaka, imyumbati, ibigori ndetse n'ibindi bitaraza, abaturage bakoreshaga icyo bita urusyo ndetse n'ingasire mu gusya bimwe mu bigiye bitandukanye nk'amasaka ndetse n'ibindi.

Igisoro ni kimwe mu biranga umuco Nyarwanda, aho abanyarwanda ba kera bicaraga, bagakina, ibyo bitaga kubuguza. Nubwo na n'ubu bikiriho, ariko ntabwo bimeze nka mbere.

Amakoperative yo mu Karere ka Nyagatare, nyuma yo guhura bakaganira, ndetse bakishimira n'umusaruro bagezeho, barabyinnye reka sinakubwira.

Ababyeyi bakora ubudozi bifashishije imashini z'umuriro, ni bamwe mu bishimira iterambere, bavuga ko ugereranyije na mbere bakoresha imashini zitari iz'umuriro, bakoreraga amafaranga makeya cyane.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kiraburira abaturage muri rusange, kwirinda kwegera ahantu hari insinga, mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'imfu.

Abakozi bakorera Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Gukwirakwiza Umuriro w'Amashanyarazi ni bamwe mu bishimira akazi bakora dore ko ngo kabaha amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye, harimo nko kwishyura mituweri, kwishyura amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bikorwa bibateza imbere.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi, barashishikarizwa kujya bakorana ubuhanga bino kuko bashobora guteza impanuka zavamo n'urupfu mu gihe babikoze nabi.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, bavuga yuko bishimira akazi kabo kubona batanga serivisi nziza kandi bagakuramo n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aabakozi b'ibigo bishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi baba bagomba kwitondera izi nsinga kuko iyo bikozwe nabi bishobora guteza impanuka zavamo n'impfu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kiraburira abaturage bose ko bagomba kujya birinda ahantu hanyuzwa insinga z'amashanyarazi kuko zishobora guteza impanuka.

Abakozi b'ikigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi barasabwa kujya bitonda igihe bari gukora aka kazi kabo mu rwego rwo kwirinda impfu ndetse n'impanuka zitateganyijwe.

Inyubako za leta nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibitaro, ni zimwe mu zigomba kwitabwaho zigabungabungwa kuko zifitiye abaturage akamaro muri rusange.

Ibikorwa bya Leta bitandukanye, harimo nk'intindo ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho kandi bigasigasirwa n'abaturage muri rusange dore ko ari bo biba bifitiye akamaro.

Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ni rumwe mu rukiko rwubatswe mu rwego rwo gutanga ubutabera, Leta y'u Rwanda irasaba abaturage bose kujya barinda ndetse bagacunga umutekano w'ibikorwaremezo.

Bimwe mu bikorwaremezo nk'imihanda, intindo, amavuriro ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho n'abaturage kuko ari bo biba bifitiye akamaro.

Abayobozi bo muri Leta, ababyeyi ndetse n'abandi baturage barakangurirwa kwitwararika ndetse no gufata neza ibikoresho birimo, intebe zo kwa muganga ndetse n'ibindi bikorwa remezo.

Inyubako za leta nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi, zigomba kwitabwaho kuko zigirira akamaro abaturage ndetse n'abana babo.

Inyubako za Leta nk'amavuriro, amashuri, ahakorerwa inama ndetse n'ahandi hatandukanye, ni hamwe mu hagomba gusigasirwa n'abaturage kuko ibyo bikorwaremezo biba bifitiye umuturage akamaro.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda, ingabo ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, basuye ikigo nderabuzima cyubatswe na Leta ndetse batanga n'itangazo yuko hagiye kujya hatangirwa ubuvuzi butandukanye.

Mu rwego rwo korohereza abaturage leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kwegereza abaturage amazi ibi bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bakagira na kimwe bigezaho.

Inyubako za Leta nk 'amashuri, amavuriro, amahoteli ndetse n'ibindi ni bimwe mu bigomba gusigasirwa kandi bigacungirwa umutekano kuko biba bifitiye umuturage akamaro.

Inyubako za leta nk'ibikorwaremezo by'intindo ndetse amashuri, imihanda n'ibindi, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho, bigacungirwa umutekano n'abaturage kuko ari bo bifitiye akamaro muri rusange.

Inyubako za leta nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bitandukanye, ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abaturage kuko ari twebwe zifitiye akamaro.

Bimwe mu bikorwaremezo nk'amavuriro, amashuri, inganda ndetse n'imihanda ni bimwe mu bigomba kubungwabungwa n'abaturage kuko ari bo bifitiye akamaro kanini.

Inyubako za leta zitandukanye nk'ibiro by'imidugudu, ibiro by'imirenge ndetse, tutibagiwe amashuri amavuriro n'ibindi ni bimwe mu bigomba kwitabwaho n'abaturage muri rusange, kuko ari bo bifitiye akamaro.

Inyubako za Leta harimo amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bigomba kwitabwaho n'umuturage kuko bifitiye akamaro Leta ndetse n'abaturage muri rusange.

Inyubako zubatswe ku bufatanye na Leta nk'ibiraro, amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi ni bimwe mu bigomba kwitabwaho n'abaturage muri rusange kuko ari bo bifitiye akamaro.

Inyubako za Leta nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bitandukanye ni zimwe mu zigomba kwitabwaho n'abaturage, dore ko ari bo zifitiye umumaro munini cyane.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye, bahuye n'abandi bari baturutse mu bihugu byo hanze, baganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Abayobozi batandukanye baturutse mu nzego zigiye zitandukanye, bakoze inama n'abaturage babasobanurira ubutabera icyo ari cyo ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo icyenda na kane, leta y'u Rwanda irakangurira abaturage bose kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zigiye zitandukanye ndetse harimo inzego z'umutekano nka polisi, abasirikare ndetse n'abandi ni bamwe mu bahuriye mu nama yigaga ku butabera ndetse no ku burenganzira bwa muntu.

Mu rwego rwo guha agaciro abacu bazize Jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Leta y'u Rwanda ikomeje gutanga ubutabera ku bakoze Jenoside, ibi kandi bifasha Abanyarwanda kwiyubaka ndetse no kwishyira hamwe.

Abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashinzwe guca imanza bahembwe amagare azajya abafasha mu ngendo zitandukanye, ibi ngibi bakaba babyishimiye bakaniyemeza ko bagiye gukora akazi kabo kandi neza, aba ni bamwe mu bazwi ku izina ry'abunzi.

Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira imbere ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aha ni nko gukomeza gukurikirana abagiye bakora ibyaha ndetse kandi bagahemba n'abitwaye neza.

Abayobozi batandukanye bahuriye mu nama yigaga ku burenganzira bwa muntu ndetse no gutanga ubutabera, aha abayobozi basabwe kujya bakora inshingano zabo neza.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye harimo abasirikare, DASSO ndetse n'abaturage muri rusange ni bamwe mu baganiriye ku mutekano ndetse no ku burenganzira bw'ikiremwamuntu.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange, basabwa gukurikiza amategeko y'umuhanda baparika ahabugenewe kandi bakubahiriza n'uburenganzira bw'abanyamaguru, ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Abakora ingendo zitandukanye bashimira leta ko ishyira ibyapa mu muhanda byaba ibiburira ndetse n'ibirangira abantu bituma batayoba cyangwa se ngo babure aho bajya.

Abashoferi bakora umurimo wo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, gukurikiza ibyapa biri mu muhanda ndetse no gutwara batasinze mu rwego rwo gucunga umutekano wo mu muhanda.

Abatwara abantu mu buryo rusange ku mapikipiki bashimira Leta ko no mu bice by'icyaro yabashije gushyiramo imihanda yamabuye, ibi bibarinda impanuka ndetse no kwangirika kw'ibinyabiziga byabo.

Abaturage ndetse n'abandi bakora ingendo zitandukanye, bashima leta ko ikomeje kugenda yubaka ibikorwaremezo birimo imihanda, ibafasha gukora ingendo zabo mu buryo bworoshye, ndetse no guhahirana n’utundi turere.

Abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye bo mu nzego zigiye zitandukanye, nyuma y'umuganda baganirijwe ku bijyanye n'umutekano. Abayobozi bakanguriye abaturage kuba ijisho rya bagenzi babo mu rwego rwo kwimakaza no gucunga umutekano.

Abayobozi bo ku rwego rw'umurenge, abaturage baganirijwe na polisi ku cy'umutekano ndetse banakangurirwa kwicungira umutekano buri wese aba ijisho rya mugenzi we.

Abayobozi mu nzego zitandukanye abaturage ndetse n'abandi batandukanye ni abahuriye mu muganda nyuma y'umuganda baganira ku mutekano ndetse n'uburyo umuturage ashobora kwicungira umutekano.

Mu rwego rwo kongera umutekano, leta y'u Rwanda yegereye abaturage baganiriza ibyo umutekano n'uburyo bashobora kubiwicungira. Aha, ingabo z'u Rwanda zasuye abaturage, zifatanya na bo mu bikorwa bitandukanye, harimo no guhinga.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye n'abaturage nyuma y'umuganda rusange, baganiriye ku mutekano uburyo abaturage bagomba kuwicungira barara amarondo kandi buri wese aba ijisho rya mugenzi we, aha abaturage bagiye batanga ibitekerezo ndetse bafata n'imyanzuro itandukanye.

Umukino w'amaguru ni umwe mu ikunzwe cyane ku isi, abakunda uyu mupira bavuga yuko nta kindi bawugereranya nacyo. Bakangurira ndetse n'abana babo gukunda iyi mikino.

Amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup yabereye mu Karere ka Nyagatare ni amwe mu yashimishije abaturage bo muri ako karere ndetse bamwe biyemeza ko abana babo bagomba kujya bakina umukino w'amaguru.

Siporo y'amaguru ni imwe mu bikunzwe cyane ku isi, usanga abaturage bavuye hirya no hino mu Ntara zitandukanye ndetse no mu Turere dutandukanye baje kwihera ijisho uyu mukino.

Abakora siporo ndetse n'abandi baturage muri rusange barakangurirwa kujya bitwararika bagafata neza ibibuga kuko bifitiye akamaro igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Ibibuga by'imipira bikorerwa siporo y'amaguru ndetse n'izindi siporo zitandukanye, ni bimwe mu bigomba gusigasirwa, bikitabwaho, twirinda kubyangiza ndetse no kubyica.

Siporo ntaho itandukaniye n'ubuzima niko abahanga babivuga, ukora siporo agira ubuzima bwiza kuko amaraso atembera neza mu mubiri kandi n'ibihaha bigakora neza.

Leta y'u Rwanda ishishikariza ababyeyi ndetse n'abandi barezi muri rusange gukundisha abana siporo cyane cyane imikino y'amaguru, ibi bikabafasha kugira ubuzima bwiza kandi bakaba bazabigira n'akazi muri rusange.

Abagabo, abagore ndetse n'abasore n'inkumi, ni bamwe mu bakangurirwa gukora siporo ngoramubiri ndetse n'indi mikino igiye itandukanye kuko ifite uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Siporo igereranywa n'ubuzima. Ibi dushobora kubigenderaho dukunda siporo kuko uyikoze aba atandukanye cyane cyane n'utayikora kuko ituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Abahanga benshi bavuga ko siporo ari ubuzima kuko uwayikoze abaho neza, amaraso agatembera neza mu mubiri kandi ugakura ukanatekereza neza bitandukanye cyane n'umuntu udakora siporo.

Abari n'abategarugori ni bamwe mu bashishikarizwa gukunda siporo, cyane cyane imikino y'amaguru kuko uretse no kuba ifite uruhare runini mu buzima bw'umuntu, buriya ngo ababikoze nk'akazi ibinjiriza n'amafaranga.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira Leta y'u Rwanda ko ikomeje kubaha ibikorwa remezo, harimo nk'imihanda ibafasha mu buhahirane ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro barasaba Leta ko yabubakira imihanda izaborohereza mu gukora ingendo zitandukanye ndetse no guhahirana n'utundi turere.

Abaturage bishimira ko Leta y'u Rwanda yashyize imihanda ya kaburimbi mu bice by'icyaro, ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Abakora akazi ko gutwara abagenzi mu buryo rusange ku mamoto mu bice by'icyaro, bishimira ko leta y'u Rwanda yashyizemo imihanda iborohereza mu ngendo zabo kandi ikarinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro barasaba leta ko nabo yabubakira imihanda mu rwego rwo koroshya ingendo ndetse no kongera ubuhahirane mu turere dutandukanye.

Abakora ingendo ku binyabiziga mu bice by'ibyaro bashimira Leta ko yagiye yegereza abaturage ibikorwaremezo birimo imihanda ituma birinda impanuka ndetse n'ibinyabiziga byabo ntibyangirike.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira Leta ubudahwema bwayo bwo kubagezaho ibikorwaremezo harimo nk'imihanda myiza, amavuriro ndetse n'amashuri.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira leta y'u Rwanda ko ikomeje kubagezaho ibikorwaremezo birimo imihanda, ibafasha gukora ingendo zabo mu buryo bworoheje kandi ikagura n'ubuhahirane bw'uturere.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro bashimira Leta y'u Rwanda ko ikomeje kubashyiriraho ibikorwaremezo bitandukanye nk'imihanda ndetse amavuriro n'amashuri tutibagiwe n'amasoko.